Kugira ngo umuryango muri rusange utere imbere ni ngombwa ko ukora inama kugira ngo ucoce ibibazo bigiye bitandukanye ndetse unashakire ibisubizo ibyo bibazo. Niyo mpamvu abayobozi babifite mu nshingano baba bagomba guteranya abaturage bakakoresha inama.

Kugira ngo abaturage babeho bishimye ni ngombwa ko bakora inama zigiye zitandukanye, ni ngombwa kandi ko abayobozi babo babaganiriza ku bibazo bihari, ku byo bagezeho no ku iterambere muri rusange, kugira ngo babashe kumvikana, bahuze ibitekerezo ibitagenda neza babikemure ndetse n'ibigenda neza bakomeze babishyigikire.

Kugira ngo umuturage abeho yishimye cyangwa se abaho nta bibazo bimukikije afite cyangwa se nta makimbirane afitanye na mugenzi we cyangwa se anamenye amakuru y'ingenzi ku gihugu ke ni ngombwa ko abayobozi bamuyobora bagomba kumukoresha inama, inama rero iba irimo abaturage ndetse n'abayobozi baganira ku bibazo bigiye bitandukanye.

Umuryango runaka waba umuryango w'abanyarwanda cyangwa se ubundi bwoko bw'abantu, iyo bari hamwe baba bagomba gukora inama kugira ngo bahuze ibitekerezo bungurane ibitekerezo, barebe ibibazo bihari, iterambere ryabo ndetse n'ibindi byose byabangamira iryo terambere kugira ngo ubashe kubaho neza, niyo mpamvu inama ari ingenzi muri rusange haba inama y'inteko rusange ndetse n'ina n'inama hagati y'abantu yabo.

Kugira ngo abantu bari muri sosiyete cyangwa se mu muryango nyarwanda muri rusange bumvikane ni ngombwa ko abo bayoboye umuryango muri rusange cyangwa se abo bawukuriye abo twita abayobozi baba bagomba gukoresha inama, izo nama zigomba kuba zigaruka ku bibazo by'abaturage n'ibisubizo by'ibyo bibazo.

Umuco muri rusange ni ikintu kiba kibumbatiwe n'igihugu kuko nta gihugu kitagira umuco, buri gihugu kiba gifite umuco wacyo niyo mpamvu uzasanga inaha mu Rwanda, abanyarwanda bafite umuco wo kubyina, kuririmba byose babyihariye bitandukanye n'abanyamahanga, aho ushobora gusanga uko abanyarwanda babivuga bitandukanye n'uko aba abakongomi babivuga cyangwa se uko babyina indirimbo zabo n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kubatandukanya ku mico igiye itandukanye y'ahandi.

Mu bintu bishobora kuranga umuco Nyarwanda ushobora gusanga hari ibintu byinshi bitandukanye hari kugaragara ibisabo, ibicuma n'ibindi byose bishobora kuba byaba mu Rwanda bitavuzwe aha ngaha, hanyuma hano biragaragara ko hari ibintu byinshi birimo imikeka ibindi byinshi bitandukanye bigenda byerekana umuco Nyarwanda cyangwa se biwugaragaza.

Umuco muri rusange ni bimwe mu bintu biranga igihugu runaka, kuko baca n'umugani mu kinyarwanda ngo agahugu katagira umuco karacika, niyo mpamvu hari ibintu byinshi biranga umuco nko kubyina, gukoma ingoma, kuririmba n'ibindi byinshi cyane bishobora kuranga umuco.

Kugira ngo umuco udacika, ni ngombwa ko tuba tugomba kuwusigasira. Buri gihugu cyose uba usanga gifite umuco wacyo ndetse n'ibintu biranga uwo muco. Nk'urugero nk'umuco nyarwanda, usanga imbyino zacu zitandukanye n'iz'ibindi bihugu. Abakobwa barashayaya, mu gihe abahungu bahamiriza.

Kugira ngo igihugu gitandukane n'ikindi kiba gifite ibintu byinshi kibitandukanya nabyo, muri byo twavuga nk'umuco. Buri gihugu kigira umuco wacyo. Muri urwo rwego usanga mu rwanda twihariye ku bintu bijyanye n'imbyino. Dufite imbyino zacu gakondo zitandukanye n'izo mu bindi bihugu, abasore bari kubyina barahamiriza abakobwa bagashayaya.

Kugira ngo igihugu gitandukane n'ibindi kiba kigomba kuba gifite umuco wacyo. umuco rero hari ibintu biranga umuco w'igihugu runaka kuko igihugu kimwe kiba gifite umuco utandukanye n'ikindi, muri urwo rwego mu Rwanda tugira umuco wo kubyina abagore bagashayaya baba bari kubyina ndetse ugasanga bambaye n'ibindi bintu bibaranga birimo ingori n'ibindi bimeze nkabyo.

Kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ube umeze neza, ntabiwangiza, ibikoresho byawo biba bigomba kuba bikomeye, yaba amasinga ucamo, amapoto ayimanitseho, n'ibiki byose, byose biba bigomba kuba bimeze neza, yewe n'ubikora akaba yarabyigiye.

Kugira ngo iterambere ry'igihugu cyacu ryihutebe, aba ari ngombwa ko rizamo n'amashanyarazi. Umuriro w'amashanyarazi ni umuriro ufasha ibintu byinshi, ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, cyangwa se ahandi hantu. Ni ngombwa rero ko ababikora bagomba kuba barabyize ndetse bagakoresha n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

iyo umuntu afite umuriro w'amashanyarazi akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye , ushobora gukoresha umuriro w'amashanyarazi wubaka ukawukoresha mu busudezi , muri urwo rwego abafundi cyangwa se abubatsi na bo bakenera umumuriro w'amashanyarazi kugira ngo bakore akazi kabo.

Umuriro w'amashanyarazi ni umwe mu bintu bifasha abantu byinshi, gukora imirimo yabo igiye itandukanye, nk'abubatsi bashobora kuwukoresha basudira, bakanika, bakora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo akazi kabo kagende neza.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bintu bigize umuntu rwose ku munsi wa none kubera aho iterambere rigeze udahari ibintu byinshi birapfapfana niyo mpamvu ubikora ndetse n'uwabishyizeho wabimenyeyujemo agomba kubikora yitonze kugira ngo ataragira ibyo yangiza cyangwa se bikangiza ababikoresha.

Ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi n'ibikoresho birimo amasinga agemura n' umuriro w'amashanyarazi n'ibindi bigiye bitandukanye birimo amapoto n'ibindi. Ibyose rero bisabwa kuba biba bimeze neza bifite ubuziranenge kugira ngo bitazabangamira abaturage cyangwa se abantu babikoresha. Impamvu n'ababikoramo baba bagomba kuba barabyize.

Ibyo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ni uburyo butuma iterambere ryihuta bikorwa n'abantu babyize ndetse bafitiye n'ubushobozi ndetse n'izo mpamyabushobozi zihari, kuko baba barabyize ku buryo bwimbitse; ni yo mpamvu abantu baba bagomba kuba barabyize neza kugira ngo uwo umuriro w'amashanyarazi utazagira ibyo wangiza cyangwa se ukagira abantu wangiza muri rusange.

Ibikorwa byifashishwa kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ugere ku baturage, ni byinshi cyane kandi bigomba kuba bikomeye bifite n'ubuziranenge kugira ngo bitazagira ingaruka mbi ku baturage cyangwa se ko bazabikoresha muri rusange.

Kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ushyike ku baturage cyangwa se kuwukoresha. Ni ngombwa ko ibikoresho biwugize biba bigomba kuba bifite ubuziranenge buhebuje cyangwa se bufite imbaraga. Ni muri urwo rwego rero amashanyarazi aca ku masinga aba agomba kuba afite amapoto akomeye.

Umuriro w'amashanyarazi ni umwe mu bintu bidufasha kubaho neza ndetse ni yo mpamvu ababa bagomba kubikora baba bagomba kubyitondera kugira ngo batange ibintu bifite ubuziranenge, baba bagomba kwirinda mu gihe babikora kuko bishobora kubangiza ubwabo, bashobora kwambara ingofero zabugenewe, bakambara udupfukamunwa ndetse n'amajire abaranga.

Uko amashanyarazi agenda akwirakwizwa bigiye bitandukanye byongera iterambere n'umuvuduko waryo, ku buryo agace amashanyarazi yagezemo haba hahaje iterambere muri rusange, niyo mpamvu rero kugira ngo bitazagira ingaruka ku buzima bwa muntu, umuntu umanika aya mashanyarazi aba agomba kwitonda akayamanika nk'uwabigize umwuga.

Kugira ngo Igihugu kibe giteye imbere cyangwa se ubona gisa neza haba ku manywa na nijoro. Kiba kigomba kurangwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Amatara ku mihanda rero ni kimwe mu bintu bituma Igihugu kimera neza, umwijima ukarwanywa hirya no hino hatandukanye. Mu iki gihugu cyacu rero ntahantu hatari amatara ku mihanda ya kaburimbo, agenda amurikira abaturage mu gihe bari kuva mu mirimo yabo igiye itandukanye.

Kugira ngo ahantu habone hake ari nijoro habagomba kuba hari amashanyarazi, ibikoresho rero bitunganya amashanyarazi biba bigomba kuba bifite ubuziranenge ndetse n'abo babikoresha bakaba barabyize kugira ngo mu kubitegura cyangwa se mu gutegura amashanyarazi hatazagira ubyangirikiramo.

Umuriro w'amashanyarazi ni ingenzi muri ubu buzima kuko ufasha byinshi bitandukanye muri ubu buzima busanzwe. Aho tuwifashisha kugira ngo tumurike, abiyogoshesha ni uko ndetse n'ibindi byose ugenda udufasha, ntawabyirengagiza biri ukwinshi. Ababyiga rero ni ngombwa ko babishyiramo imbaraga, bagakora ibintu bazi ngo bitagira ingaruka ku kiremwa muntu.

Inyubako za leta ni inyubako ziba zikorerwamo ibikorwa remezo bijyanye n'imiyoborere, cyangwa se ibindi bintu leta iba yashatse gukoreramo. Inyubako za leta ni inyubako ziba zisanzwe ubona zitubatse kimwe n'izindi nzu, ahubwo ziba zitandukanye.

Inyubako za leta ni inyubako usanga zikorerwamo ibikorwa bya leta bishobora kuba ibiro, bikaba ibitaro, bikaba n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, babitangiramo serivisi za leta zijyanye no kunoza imibereho myiza y'abaturage.

Inyubako za leta ni inyubako zubakirwa abaturage, kugira ngo bajye baza kwaka serivisi zijye zitandukanye. Muri zo, dushobora kuvuga nk'ibitaro, amabanki, uburezi cyangwa se ibijyanye n'amashuri n'ibindi.

Inyubako za Leta ni inyubako ziba zubatse mu buryo butandukanye n'inzu z'abantu, usanga zubatse ukuntu gutandukanye, ushobora kubona nk'Akagari ntabwo kakubakwa nk'Umurenge cyangwa se Umurenge w'ubakwe kimwe n'Akarere, ahubwo biba bigiye bitandukanye bitewe na serivisi zitangirwa aho hantu.

Mu nyubako za leta usanzwe uzishobora kongeraho amashuri, ibitaro, ama sitade, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Izi nyubako za leta, leta izubaka izishyiriyeho kugira ngo abaturage babashe guhabwa serivisi zigiye zitandukanye zaba iz'ubuvuzi, uburezi, ndetse n'izindi.

Inyubako za Leta cyangwa se ibikorwa remezo bya Leta iba yarubatse, ni ibikorwa biba bigomba kubungwabungwa birimo amatiyo y'amazi n'ibindi byose bigirira abaturage akamaro, ni ngombwa rero kubibungabunga kugira ngo Leta nibona bikomeje kubungabungwa neza cyangwa se bikomeje gukoreshwa neza izakomeze na yo yongere ibindi kugira ngo iterambere rishyike kuri buri muturage.

Inyubako za Leta uba usanga ari inyubako zitandukanye n'izindi nyubako umuntu asanzwe azi, zishobora kuba zigizwe n'inzu z'Uturere, zigizwe n'ibindi bikorwa remezo birimo amazu y'Imirenge, ibiro by'Utugari, amashuri ndetse n'ibindi.

Inyubako za Leta cyangwa se ibikorwa remezo muri rusange ni ibikorwaremezo cyangwa se inyubako Leta iba yarubatse yarazubakiye abaturage kugira ngo bazisabemo serivisi zitandukanye ntihagire ucikanwa.

Inyubako za leta, usanga ari inyubako zikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, hashobora kuba ibitaro, hakaba ibiro by'umurenge iby'akarere cyangwa se iby'akagari, ibi byose ni ibifasha abaturage kugira ngo banogerwe n'ibyo abayobozi baba babateganyirije.

Inyubako za leta ubu usanga ari inyubako zubatswe mu buryo butandukanye n'izindi nyubako umuntu ashobora kumenya. Ku nyubako ya leta iyo ari yo yose ushobora gusangaho ibendera cyangwa se ikindi kintu kiranga igihugu. Mu nyubako za leta twavugamo ibiro by'utugari, ibiro by'uturere ndetse n'iby'imirenge.

Inyubako za leta, ni bimwe mu bikorwa remezo bigaragaza aho leta ikorera cyangwa se aho ubuyobozi baba bukorera ibikorwa byabwo. Izi nyubako ziba zitandukanye n'inyubako zindi muri rusange kuko ziba zubatse nyine mu buryo butandukanye.

Inyubako za leta usanga ari inyubako zitandukanye n'izindi nyubako umuntu wese yaba azi. Zitandukanye n'amasoko, zitandukanye n'amashuri, amavuriro agiye atandukanye, Niyo mpamvu uzasanga zubatswe mu buryo butandukanye, usanga umurenge wubatswe ukwawo, akagari kubatse ukwako, gutyo gutyo.

Inyubako za Leta cyangwa se ibikorwa remezo byubakwa na Leta uba usanga ari ibikorwa remezo nyine byubatswe na Leta, yaba amazu, amasitade n'ibindi by'umwihariko sitade usanga zarubatswe zirimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, birimo ibibuga by'imipira bigiye bitandukanye, haba umupira w'amaguru, iy'amaboko ndetse n'iy'intoki.

Iyo umuntu agira uburenganzira bw'ubuzuye ni ngombwa ko ahabwa ubutabera, mu gihe hari uwakoshereje undi agahanwa byemewe n'amategeko, bitanyuranyije n'amategeko kandi uwahannye na we ntahane yihanukiriye ku buryo atababaza uwo ari guhana kuko ari uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Iyo umuntu afite ikibazo runaka, atari kumvikana na mugenzi we cyangwa se yarenganyijwe, aba agomba kugana inzego z'umutekano cyangwa se inzego zibishinzwe, kugira ngo zimuhe ubutabera. Ni muri urwo rwego buri muntu wese ufite ikibazo runaka, agomba kugana inzego z'umutekano, cyangwa iz'ubutabera kugira ngo zimurenganure.

Kugira umuntu agire uburenganzira bwe bwuzuye atabuhutarijwe ni gombwa ko atagirirwa amakimbirane mu gihe yaba yahemukiwe agahabwa ubutabera, ni muri urwo rwego rero abayobozi baba bagomba kubyitaho.

Aho abantu bategera imodoka aho dukunze kwita muri za gare, ni ahantu uba usanga abantu benshi, bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi baza gutega imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga kugira ngo babashe gukora ingendo zabo.

Ibinyabiziga nimwe mu bintu bishobora kudufasha kugenda, cyangwa se bigafasha ibintu byacu kugenda biva hamwe, ahantu hamwe bijya ahandi, bigatuma umuntu ashobora gukora ibintu bye mu buryo bwihuse kandi ntabazo abigizemo.

Umutekano muri rusange n'ingamba kuwunda, ni ngombwa cyane kubera ko iyo hatari umutekano usanga ari intambara, niyo mpamvu inzego z'umutekano zirimo polici, ingabo n'izindi zigiye zitandukanye usanga zawukajije, kugira ngo abaturage b'igihugu runaka babashe kumera neza.

Umutekano n'ingamba zo kuwubungabunga ni bimwe bishobora gutuma umuturage abaho neza yishimiye, umutekano rero ugomba kurindwa n'inzego zibifitiye ubushobozi birimo polisi, ingabo ndetse n'abadaso ndetse n'izindi zigiye zitandukanye kugira ngo igihugu gikomeze kubaho mu mudendezo ndetse no mu mutekano.

Kugira ngo igihugu kibe gitekanye cyangwa se abaturage batekanye ni ngombwa ko Leta muri rusange ishyira imbaraga mu gukoranya inzego z'umutekano kugira ngo igihugu kigire umutekano n'abagituye babashe kwidagadura n'ibikorwa byabo bigende neza.

Kugira umuturage agire umutekano, ni ngombwa ko hari abagomba kuwucunga barimo polisi, barimo abasirikare ndetse n'izindi nzego zose zishinzwe umutekano. Umutekano uri muri rusange, ugomba kurindwa neza abantu bakishima kugira ngo bataza kugira ibibahungabanya mubuzima bwabo bwa buri munsi.

Kugira ngo umuturage agire umutekano cyangwa se Igihugu kibe gitekanye ni ngombwa ko abayobozi bagomba gushyiraho inzego z'umutekano ndetse bakanazicunga neza kugira ngo umutekano w'abaturage muri rusange utangirika, ni muri urwo rwego abaturage baba bagomba kubungabunga nyine n'uwo mutekano babifashijwemo n'inzego z'ibanze n'abayobozi babo muri rusange.

Ibikorwa by'imyitozo, yaba imikino itandukanye muri rusange n'ibikorwa umuntu akora bishobora kumubyarira inyungu, yaba uburyo bw'amafaranga cyangwa se mu kugorora umubiri, ni ngombwa ko buri muntu wese akora siporo cyangwa se yakore imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kumera neza, haba mu kwinjiza amafaranga ndetse no kugorora umubiri we.

Imyitozo ngororamubiri ni imwe mu myitozo ifasha abantu kugorora umubiri wabo, uretse no kugorora umubiri wabo kandi, usanga ibafasha no kwinjiza amafaranga mu gihe bayikora nk'umwuga. Muri rusange rero ntabwo twakwirengagiza ko imyitozo ngororamubiri ari ingenzi kuri buri muntu wese.

Imikino ni imwe mu mirimo abantu bakora, bayikora nk'imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufwa yabo akomere cyangwa se n'umubiri wabo ugororoke. Imikino kandi ushobora kutayikora gutyo ahubwo ukayikora nk'akazi kashobora kukubyarira inyungu.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ni ngombwa ko aba agomba gukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri imufasha kubaho neza yamagana umuze mu mubiri we cyangwa se indwara zigiye zitandukanye zishobora kumwototera, iyo yakoze rero imyitozo ngororamubiri biramufasha cyane.

Kugira umuntu agire ubuzima buzira umuze ntabwo aba agomba kurya gusa, ahubwo abagomba gukora n'imyitozo ngororamubiri, ituma ibyo yaririye bimugwa neza mu mubiri ndetse agakomeza kugira ubuzima bwiza. Muri urwo rwego imikino ishobora kugufasha mu kugorora umubiri ndetse ikaba yaguha n'amafaranga mu gihe wabikoze nk'akazi.

Imyitozo ngororamubiri, ni umwe mu myitozo ifasha umubiri kugororoka ukamera neza ndetse ukanayirinda indwara. Buri muntu wese washishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri, yaba umugabo, umugore ndetse n'abakiri bato. Imyitozo ngororamubiri kandi ushobora kuyibyaza akazi kuko nayo itanga amafaranga, iyo wabikoze nk'akazi.

Imikino muri rusange cyangwa se imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu bifasha abantu kwidagadura, iyo batabikoze bidagadura kandi bashobora kubikora nk'akazi bikababyarira amafaranga bigatunga imiryango yabo ndetse bakaniteza imbere muri rusange.

Imyitozo ngororamubiri n'imyitozo umuntu akora agamije kunanura umubiri we kuwugira neza ndetse no kwiyirukanamo indwara nyinshi zigiye zitandukanye zishobora kwibasira umuntu, twavugamo nk'indwara z'umutima ushobora gukora imyitozo ngororamubiri kandi ukina ukina nk'uwabigize umwuga bikaguha amafaranga ndetse...

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza aba agomba kurya yarangiza agakora na siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Ni muri urwo rwego rero umuntu wese aba agomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ananure amagufwa ye ndetse n'umubiri we muri rusange. Si ibi gusa kuko ashobora kubikora nk'akazi.

Imyitozo ngororamubiri cyangwa se imikino muri rusange ni imikino iba ifitiye abantu akamaro, haba mu buryo bwo kugororura uwo umubiri nyine cyangwa se mu buryo bwinjiza amafaranga, imyitozo ngororamubiri cyangwa se imikino, usanga abantu benshi bayibyaza inyungu cyane cyane ko hari ababikora nk'akazi, abakina umupira w'amaguru, abakina golufe, abakina uw'amaboko n'ibindi byose bigiye bitandukanye byose bitanga amafaranga.

Imyitozo ngororamubiri ni imwe mu myitozo ifasha abantu kugira ubuzima bwiza, ushobora kuyikora ukagorora umubiri ni byo ariko ushobora kuyikora uyikora nk'akazi ikakwinjiriza amafaranga ushobora gutunga umuryango wawe ndetse nawe igatuma wibeshaho.

Buri muntu wese yaba umugore, umugabo, abana, abakuru, abasaza n'abakecuru bose buri buri mubiri w'umuntu wese uba ugomba gukenera imyitozo ngorora mubiri kugira ngo umere neza, ni ngombwa rero ko buri muntu wese akora imyitozo ngorora mubiri kugira ngo azagire ubuzima bwiza ndetse n'imikaya ye ibashe kurambuka, ubuzima nyine bukomeze bugende neza.

Imikino n'imyitozo ngororamubiribiri muri rusange uba usanga ari imikino ifasha umuntu yaba ari ukugorora umubiri we, imitsi, amagufwa n'ibindi, ibi kandi ntabwo bihagije kuko ashobora kubikora nk'akazi umuntu akaba yabasha kwinjiza amafaranga akibeshaho.

Imihanda y'igiturage uba usanga ari imihanda iba idashamaje cyangwa se iba itameze neza, iba idafite ubuziranenge bwuzuye, kubera ko nyine aho hantu haba hatari hatera imbere iba itandukanye cyane n'iyo mu mujyi.

Imihanda yo mu giturage, ni imihanda ubu usanga itujuje ubuziranenge bw'imihanda, kubera ko imodoka zishobora kuhaca zigakwama ndetse n'ibindi binyabiziga ugasanga kugera ahantu umuntu agiye bamusabye izindi mbaraga cyangwa se agiye n'amaguru ye.

Imihanda ya kaburimbo ushobora kuyisanga mu mijyi, ahantu hateye imbere cyangwa se n'ahatari hatera imbere ariko muri rusange nyine imihanda ya kaburimbo igaragaza ahantu hari gutera imbere byibuze ku kigero cy'umuvuduko uri hejuru. Iyi mihanda ya kaburimbo rero yashyitse mu byaro byinshi bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ushobora kuba wayisangamo.

Imihanda y'ibiturage cyangwa se utuyira twa bugufi, uba usanga hari ya mihanda iri ahantu hubatse inzu zitari izigezweho, ahubwo iri ahantu haca nko mu mashyamba ku nzu ziri aho zisanzwe, hashobora kuba ari no mu giturage.

Imihanda y'ibyaro n'inzira za bugufi yose n'imihanda ifasha abantu bagikoresha amaguru mu kugira ngo bagende bagere ahantu bagiye cyangwa se bava ahantu baba bavuye. Iyi mihanda usanga akenshi iba igizwe n'amabuye cyangwa se ari iy'ibitaka. Muri rusange ino mihanda ifasha abantu benshi mu bintu bigiye bitandukanye nk'uko tumaze kubigarukaho.

Imihanda y'igiturage cyangwa se inzira za giturage, ni imwe mu mihanda iba igoranye ku bijyanye n'ibinyabiziga, kuko bigora abamotari cyangwa se abashoferi kuhaca ndetse n'abanyamaguru uba usanga bibagoye, kubera ko imihanda iyo imvura iguye izamo ibyondo ndetse n'izuba ryaba ari ryinshi rikazamo imikungugu.